Umuhinzi ari mu murima afite igikoresho cyifashishwa mu kuhira ibihingwa mu gihe cy'izuba, ibyo bihingwa ari kuhira ni icyayi kiri mu bihingwa ngandurabukungu.

Umuceri uhinze mu gishanga ukiri mutoya, ariko ugiye gukura harimo abantu babiri bari kugabanyamo amazi, umuceri mu kiribwa abantu barya bakagira ubuzima bwiza.

Aho bororera amafi akabaho mu mutuzo agakura neza agatanga umusaruro mwinshi, amafi atanga intungamubiri ku bana no ku bantu bakuru, atuma abana bakura neza.

Umugabo wambaye isengeri, ari kuroba amafi, amafi atanga intungamubiri ndetse ni kimwe mu bituma abantu bakura neza.

Umurima uhinzemo ikawa, hari izitangiye gukura ndetse n'izikiri ntoya, ikawa zivamo icyayi abantu banywa bakagira ubuzima bwiza.

Abantu batatu bafite ibikoresho byo gusaruramo icyayi, icyayi gituma umuhinzi abona amafaranga, akabona n'icyo kunywa bityo mu buzima bwe bukaba bwiza.

Umuntu wikoreye indobo ari gusarura ikawa ikawa zivamo icyayi abantu banywa bakagira ubuzima bwiza.

Abantu bari mu murima bari gusarura bafite igikoresho bifashisha basaruriramo imyaka yabo ndetse zikabafasha no kubivana mu muririma bageza mu rugo.

Aho bacururiza imiti y'amatungo, imiti bayiha amatungo agakira indwara ndetse bayifashisha bakingira amatungo kugira ngo atarwara.

Imiti ibaha inkoko zikagira ubuzima bwiza ndetse zinatanga umusaruro mwinshi.

Ahantu bacururiza imiti y'amatungo, imiti bayitera amatungo agakira cyangwa bakayifashisha bayakingira kugira ngo bayarinde uburwayi.

Igikarito kirimo ga bambara bagiye kuvura abantu n'amatungo, ga zifasha mu kurinda udukoko dutera indwara dukwirakwira tuva ku matungo.

Imiti y'amatungo yo mu bwoko bw'ibinini, hari n'igikoresho bifashisha bakata ibintu bigiye bitandukanye, ibinini bituma amatungo agira ubuzima bwiza agatanga umusaruro mwinshi.

Inzu irimo imiti yifashishwa mu kuvura amatungo ndetse no kwita ku buzima bwayo, imiti ifasha amatungo kubona ubuzima bwiza ndetse igafasha n'umworozi kubona umusaruro uhagije.

Abantu bambaye impuzankano bari gutera amashyamba, amashyamba akurura umwuka mwiza agatuma abantu babaho neza ndetse bakabasha guhumeka.

Umugore w'umworozi afite ihene ari kuyizirika mu ishyamba, kugira ngo ibone ibyo kurya ,kandi igire ubuzima bwiza ,imuhe umusaruro mwinshi.

Abantu bari gutera ibiti umwe yambaye ga z'umweru ndetse n'amadarubindi n'ingofero, hirya yabo hari umwana.

Umuntu ufite igare atwaye inkwi n'umufuka urimo ibintu, impande ye hari ibyatsi, ibiti, ibyatsi bikurura umuwuka mwiza, abantu bahumeka.

Umugore n'umugabo bari kugenda, umugore ari imbere, umugabo ari inyuma afite umupanga n'icupa, umupanga wifashishwa mu gutema ibintu bigiye bitandukanye, impande yabo hari ibyatsi.

Abantu bane bari guhinga umuceri, umuceri ni ikiribwa barya bakabasha kubaho neza kandi bakagira imbaraga.

Umuceri uhinze mu gishanga ugiye kwera, umuceri ni ikiribwa gitanga imbaraga, abantu iyo bawuriye bagira ubuzima bwiza ndetse ukabafasha kubaho.

Imboga ziri mu bwoko bw'amashu na pinari, abantu barazirya imboga zivura amaso ndetse zituma abantu bagira ubuzima bwiza, zitanga intungamubiri nyinshi.

Igiti k'isombe kiri mu murima uteyemo inyanya hirya y'aho hari amabati ashaje, isombe ni ikiribwa bakunze kwita imboga gifasha mu kubona ndetse gitanga intungamubiri zigiye zitandukanye.

Umuhanda wa kaburimbo ukikijwe n'insina n'ibigori n'ibiti n'amazu, insina zifashishwa mu kubona igitoki cyo kurya, ibigori byifashishwa mu mirire, amazu yifashishwa mu uburyo bwo kubona aho kuba.

Umurima urimo urutoki n'imyumbati, igitoki abantu barakirya ndetse n'imyumbati ni ikiribwa kiri mu bitera imbaraga iyo umuntu abiriye agira ubuzima bwiza.

Umugore uri mu muririma w'ibigori, ibigori barabiteka, bakabirya bakagira imbaraga ndetse byifashishwa mu kugaburira amatungo akagira ubuzima bwiza.

Igiti cy'umbati kiri mu murima n'ibigori byumye n'ibyatsi baranduye, imyumbati ni ikiribwa gitera imbaraga gituma abantu babaho bakomeye.

Ibigori biri mu muririma, hijya yabyo hari ibirayi, ibigori barabiteka bakabirya kandi bitanga ubwatsi bw'amatungo, ibirayi na byo ni ibiribwa.

Ikibaya kirimo imirima igiye ihinzemo ibihingwa bigiye bitandukanye, harimo amateke ndetse n'ubwatsi bwifashishwa n'ibiryo by'amatungo ya buri munsi. Hariho ishyamba ridufasha kwirinda isuri.

Ni umurima urimo amabimba, uteyemo n'imyumbati, hirya hari ibiti n'insina, imyumbati ni kimwe mu bitera imbaraga.

umurima urimo urutoki hirya yaho hari ishyamba ryinturusu, ibitoki ni ibiribwa abantu barya ndetse bivamo n'ibyatsi byamatungo inturusu zitanga umwuka mwiza.

Mu ishyamba ririmo ibiti, ibyatsi n'urutare, harimo abantu babiri barimo, ishyamba ritanga umwuka mwiza rigakurura ba mukerarugendo bityo iterambere ry'igihugu rikiyongera.

Umugore wambaye itaburiya n'ingofero, afite icyuma ari gusarura pavuro, pavuro zifashishwa mu gukaranga ibyo kurya bikagira impumuro nziza ,ndetse ni cyanga cyiza.

Ibitunguru biri mu murima bikuze umuntu aje kubirandura, ibitunguru babikarangisha ibiryo bikagira impumuro nziza kandi bikaryoha, ibitunguru babijyana ku isoko bakabona amafaranga umuhinzi akabona ibyo akeneye.

Umugabo uri kureba amatunda ari mu murima, amatunda ni immbuto zitanga intungamubiri ku bazirya bakagira ubuzima bwiza.

Inyanya ziri mu murima izeze n'iziteze, inyanya bazikarangisha ibyo kurya bikagira impumuro nziza n'icyanga kiza abarya ibyo biryo bakabasha kubirya bishimye.

Umurima uhinzemo ibitunguru, harimo abantu n'umugozi wifashisha buhira imyaka, bigatuma imyaka ikura neza, kandi igatanga umusaruro ushimishije.

Umugore uhetse umwana afite igikoresho bifashisha buhira imyaka, kuhira bifasha imyaka gukura neza kandi umuhinzi akabona umusaruro mwiza.

Umugore uri mu muririma ari kuhira imyaka ye, kuhira bituma imyaka iticwa n'izuba kandi bigatanga umusaruro mwiza kandi mwinshi.

Umurima uteyemo imyaka hari insinga zijyana amazi mu murima ibyo byifashishwa mu gihe imvura yabuze ndetse hari izuba ryinshi.

Umwana uri mu murima w'ibigori, ari, kubyuhera, kuhira bituma imyaka yera neza, kandi bigatanga umusaruro mwinshi.

umuhanda w'igitaka impande y'aho hari inturusu, n'ibyatsi bikiri bitoya. lnturusu zitanga umwuka mwiza ,bityo abantu n'amatungo bakabaho neza.

Umusozi n'amazi ndetse hari ibiti n'ibyatsi, ibiti bidufasha kubona umwuka mwiza ndetse n'inkwi zo gucana, bityo abantu bakagira ubuzima bwiza.

Inzu ikikijwe n'ibiti n'insina n'ibyatsi, insina zivaho ibitoki, ibiti bikurura umwuka mwiza, ibyatsi na byo bikurura umwuka mwiza.

Inka ziri mu kiraro, Imbere y'ikiraro hari abantu, inka zitanga amata abantu bakanywa, zitanga inyama zo kurya, bigatuma abantu bagira ubuzima bwiza.

Ingurube ifite ibibwana bitatu iryamye hasi irimo ironza ibibwana byayo, ingurube zifasha mu kubona ifumbire ndetse no mu kubona amafaranga ku borozi bazo.

Inka ziri kurisha ubwatsi, hari in'ibti, inka zitanga amata yo kunywa ndetse n'inyama, abantu bakagira ubuzima bwiza ndetse umworozi akabona amafaranga.

Intama n'ihene ziri mu rwuri, hari ibiti ndetse n'ibyatsi, ibyatsi, intama n'ihene zirabirya, bityo zigakura neza ndetse zikabaho, ibiti bikurura umwuka mwiza.

Igikoresho kifashishwa mu kujyana ibiryo by'amatungo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye bikenewe kugira ngo amatungo agire ubuzima bwiza, iki gikoresho kifashishwa mu buryo bwo kugira ngo boroshye akazi ndetse n'abakozi benshi.

Ihene ziri mu rwuri imbere yazo hari abantu aho ziri hari ibyatsi bifite indabo z'umuhondo ibyatsi byifashishwa mu kugaburira amatungo.

Ikiganza kirimo ibihwagari, ibihwagari byifashishwa mu kubona amavuta ndetse mu kubona ifu yisosi.

Ibigori biri mu kiganza cy'umuntu, imbere y'icyo kiganza hari ikigori cyameze, ibigori ni ibiryo bitanga imbaraga byifashishwa no mu kubona icyo kunywa aricyo twita igikoma.

Ibigori biri hasi, ibigori ni kimwe mu binyampeke bivamo igikoma cyo kunywa ndetse n'ubugari, ibigori bituma umuntu agira imbaraga.

Abaganga n'amatungo bagiye kuvura inka iri mu kiraro, abaganga batuma amatungo agira ubuzima bwiza agakura neza ndetse umworozi akabona umusaruro uhagije.

Igikoresho babikamo intanga batera amatungo agahaka maze akabyara, iki gikoresho gituma intanga zimara igihe ndetse ntizipfe, zikazatanga umusaruro mu gihe kizaza.

Inyamaswa yo mu ishyamba iri mu gihuru, iyi inyamaswa ikurura ba mukerarugendo Igihugu kikabona amadovize ndetse kikabasha gutera imbere.

Inyamaswa yo mu ishyamba, iryamye ku giti kinini, iyo nyamaswa yitwa ingwe, ingwe izwi mu nyamaswa zizi guhiga cyane kurusha izindi.